Aba ni bana babiri bari ahantu hamwe barishimye cyane nkuko bigaragara bari koga mu biganza n'amazi meza hamwe yambaye umutuku undi ni icyatsi kibisi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu busitani bwiza bw'icyatsi bicaye ku ntebe z'ubururu higanjemo abagore n'abagabo abona ko ari ibintu byiza cyane hari n'abana bakiri batoya.

Aba ni abantu bagera muri batanu bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, bafite ibyishimo nkuko bigaragara mu maso habo bari guseka, bambaye impuzankano z'ubururu n'ingofero nziza.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, hari abicaye ndetse n'abahagaze mu nzu isize amabara y'umweru. Uko bari biganjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, umwe aryamye ku gitanda cyo kwa muganga, yambaye ikanzu y'ubururu. Undi ari kumwitaho, n'itaburiya y'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho baje kuvoma amazi meza mu majerekani y'imihondo higanjemo abagore ndetse n'abana bakiri batoya b'abakobwa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, bicaye ku murongo ku ntebe z'icyatsi, biganjemo abagore n'abagabo, barakeye cyane.

Abana ni abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe, barishimye cyane nk'uko bigaragara ku maso habo, bari guseka n'amenyo akagaragara higanjemo abakobwa bane n'umugabo umwe.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, imbere y'ihema ry'umweru, biganjemo abagore n'abagabo ndetse n'abana bakiri batoya, ni ibintu byiza cyane bigaragarira ijisho.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bahagaze imbere y'inzu isize amabara y'ubururu, biganjemo abagore n'abagabo, hari abambaye impuzankano z'umweru bisa nk'aho ari abaganga.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane higanjemo abakuze, abagore n'abagabo n'bana bakiri batoya bambaye impuzankano z'umweru bafite impapuro mu biganza byabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracyeye cyane, higanjemo abakuze n'abagore n'abagabo, ndetse n'urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu. Bahagaze imbere ya sare y'inama y'Ibitaro.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze yambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru karuvati y'umutuku ndetse n'amadarubindi hirya gato hari intebe ebyiri ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bari ahantu hamwe, biganjemo umugore ukuze ndetse n'abana bakiri batoya, bose bari kuvoma amabase atandukanye, yaba iy'umutuku n'umuhondo ndetse n'umukara.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barahagaze ku isima y'umutuku, bakikijwe n'igiti kirekire gitanga umuyaga n'amahumbezi, biganjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo bicaye ku murongo bose bambaye impuzankano z'ubururu higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracye cyane kandi barishimye nkuko bigaragara ku maso yabobo. Bari guseka bambaye impuzankano z'ubururu n'umweru higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane nkuko bigaragara bari muzu isize amabara y'umuhondo biganjemo abagore n'abagabo.

Uyu ni umwana usa nk'aho akiri mutoya, arimo avoma amazi meza, yambaye ikanzu y'umweru irimo umukara, imbere ye hari indobo zihateretse, akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umugore ntari kubasha kubona neza mu maso yikoreye indobo y'umutuku n'indi afite mu biganza y'umuhondo, zose zirimo amazi akikijwe n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abana bakiri bato bari ahantu hamwe bagera muri batatu, higanjemo agakobwa n'uduhungu, barimo koga intoki n'amazi meza, hirya gato hari ibiti by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, mu nzu isize amabara y'umuhondo, higanjemo abagore n'abagabo ndetse n'abana bakiri bato, bambaye impuzankano z'ubururu.

Izi ni inzu ndende zo mu bwoko bwa etage zigerekeranije zisize amabara y'umweru amabati n'umutuku kuruhande gato hari ikindi kinini cyuzuyemo amazi menshi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, biganjemo abagabo bakuze ndetse n'utwana tukiri dutoya yaba utw'uduhungu ndetse n'udukobwa, ni ibintu bibereye ijisho ry'ubireba.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane bicaye ku murongo, ku ntebe z'imikara yiganjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane nkuko bigaragara, bafite ibyishimo ku maso habo ubarebye bari guseka bambaye impuzankano z'umweru n'ubururu, biganjemo abakobwa n'abahungu.

Uyu ni umwana usa nkaho akiri muto yambaye agapira k'ubururu ndetse n'agakabutura k'umukara arakeye cyane arimo yoga intoki n'amazi meza n'isabune.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara bisa nk'ah bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, biganjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo abagabo n'abagore, inzu isize amabara y'umuhondo bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu babiri bari ahantu bamwe barakeye cyane bose n'abagabo bambaye amakoti, imbere yabo hateretse uducupa n'ikirahure by'amazi yo kunywa.

Uyu ni umwana w'umukobwa usa nkaho akiri muto, afite ibyishimo nkuko bigaragara ku maso ye, ari guseka n'amenyo akagaragara; arimo yoga ibiganza n'amazi meza.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracye cyane nk'uko bigaragara ku maso yabobo, bafite ibyishimo kubera ko bari guseka, bamwe boga ibiganza mu mazi meza.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barake cyane mu ihema risize amabara agiye atandukanye nk'icyatsi n'umuhondo n'ubururu, bicaye ku ntebe z'umweru higanjemo abagore n'abagabo.

Uyu ni umwana w'umuhungu ukiri muto wambaye impuzankano y'ishati irimo uturongo tw'umweru ndetse n'ikabutura y'umutuku, ari koga amazi meza, ibiganza n'amaboko.

Uyu ni umwana usa nkaho akiri mutoya, ari gukaraba ibiganza bye n'amazi meza, hirya gato hari indobo y'ubururu n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abana babiri bari ahantu hamwe, umuhungu n'umukobwa bose baje kuvoma amazi meza mu majerekani y'umuhondo ndetse n'umweru, hirya gato hari ibiti n'ibyatsi bitanga umuyaga.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, babiri muri bo bambaye udupfukamunwa ndetse n'impuzankano z'ubururu. Hari uri kwita ku mubyeyi ugiye kubyara.

Aba ni abana bakiri batoya, bisa nk'aho ari abanyeshuri, bambaye impuzankano bose zisa kaki, barimo boga intoki n'amazi meza nk'uko bigaragara.

Aba ni abana benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane kandi bafite ibyishimo nkuko bigaragara ko maso habobo, bari guseka higanjemo abakobwa n'abahungu bose bari koga ibiganza.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu ihema risize amabara y'umweru, barakeye cyane, higanjemo abagore n'abagabo ndetse n'utwana tukiri duto tw'uduhungu n'udukobwa twambaye impuzankano.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze yambaye igitenge cy'icyatsi umupira urimo ubururu, asa nkuri kuvoma amazi meza hiyya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, higanjemo abagabo ndetse n'abagore bambaye impuzankano z'umweru, baturuye abana bakiri batoya, bari kwitabwaho.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracye cyane kandi bafite ibyishimo nkuko bigaragara ku maso habo bari guseka bambaye impuzankano z'amataburiya y'umweru higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, biganjemo abantu bakuru nk'umugabo ndetse n'abana bakiri batoya, imbere yabo hari amajerekani agiye atandukanye, umuhondo n'umweru, yose bari kuvomamo amazi meza.

Aba ni abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe biganjemo abagore gusa, abakuze ndetse n'abakiri bato, bose baje kuvoma hariho amajerekani y'umuhondo n'ay'umweru, bakikijwe n'ibiti bitanga umuyaga.

Aba ni abantu bagera kuri batandatu bari ahantu hamwe barimo bavoma amazi mu ndabo y'ubururu ndetse n'iy'umutuku biganjemo abagore gusa bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe mu nzu isize ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, higanjemo babiri bambaye impuzankano z'ubururu n'umukobwa w'agapfukamunwa wicaye ku ntebe bari kwitaho.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe. Hari abicaye ndetse n'abahagaze biganjemo abagore n'abagabo, abakuze n'abasaza n'abakecuru ndetse n'abana bakiri batoya.

Aba ni abantu bari ahantu hamwe umukuru ndetse n'umutoya bose bari kuvoma mu mazi menshi amajerekani n'umuhondo bakikijwe n'ibyatsi bitanga akayaga n'amahumbezi.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze yambaye ikote ry'umukara ririmo umutuku n'umweru hagati ndetse n'amarubindi, ari ahantu hakeye cyane ku ruhande gato hari intebe n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe yiganjemo umugore ukuze ndetse n'abana bakiri batoya bari inyuma ye, bose bafite ibyishimo nkuko bigaragara ku maso habo bari guseka.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, hari abahagaze ndetse n'abicaye mu busitani bwiza bw'icyatsi biganjemo abagore n'abagabo, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, biganjemo abagore n'abagabo, hari abicaye ndetse n'umwe uhagaze wambaye itaburiya y'umweru, hari ibyo ari kubabwira, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aana ni abantu bagera kuri bane bari ahantu hamwe higanjemo abagore gusa basa nk'abakuze, hari umwe muri bo wambaye imyenda y'imyeru uri kwita kuri bagenzi be.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bahagaze ku murongo, baracye cyane kandi bafite ibyishimo nkuko bigaragara ku maso habo, higanjemo abagore n'abagabo bambaye impuzankano z'umweru n'ubururu.

Aba ni abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe barimo baganira bafite impapuro mu biganza byabo biganjemo abagore gusa bicaye ku murongo urabona ko ari ibintu byiza bibereye ijisho ry'u bireba.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, mu nzu isize amabara y'umweru, higanjemo abagore n'abagabo, bicaye ku murongo, ku ntebe z'ubururu,, bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe, biganjemo abagore, bose barimo bavoma amazi meza kandi akeye, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amambezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane bicaye kumurongo uzungurutse ku ntebe z'imikara, yiganjemo abagore n'abagabo bari munzu zisa n'amabara y'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bahagaze ku murongo baracyeye cyane kandi barishimye nk'uko bigaragara ku maso yabobo bari guseka, higanjemo abagore n'abagabo bambaye impuzankano z'ubururu n'umweru.

Aba ni abana babiri bari ahantu hamwe baracye cyane kandi bafite ibyishimo barimo baseka bavoma amazi meza ajya mu ndobo z'umweru bakikijwe n'ibiti bitanga umuyaga.

Uyu ni umwana usa nkaho akiri muto, ateruye uducupa tubiri mu biganza bye tw'amazi yo kunywa, yambaye impuzankano z'umuhondo n'ubururu, ari guseka hirya gato hari abandi bana bagenzi be.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane bafite ibyishimo, nk'uko bigaragara bari guseka mu maso habo, higanjemo abakuze, abagore n'abagabo, ndetse n'utwana tukiri dutoya, bakikijwe n'ibiti birebire.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, hari abicaye nk'abagore ndetse n'abagabo bahagaze bari kugaburira akana gatoya bambaye impuzankano z'umutuku ni ibintu bigaragara neza cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracye cyane kandi bafite ibyishimo ku maso habo nk'uko bigaragara, bari guseka hari abambaye impuzankano z'ubururu, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane mu nzu isize amabara y'umuhondo, bose baricaye biganjemo abagore n'abagabo n'abana bakiri bato.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracye cyane biganjemo abagore n'abagabo hari abambaye impuzankano z'umukara bisa nk'aho ari iz'abashinzwe umutekano ba polisi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye bambaye impuzankano z'ubururu, biganjemo abagore n'abagabo, bose bafite ibyishimo nkuko bigaragara ku maso habo bari guseka.

Aba ni bana benshi basa nkaho bakiri batoya bari ahantu hamwe bafite ibyishimo nkuko bigaragara ku maso habo bari guseka amenyo akagaragara bambaye impuzankano z'umuhondo .

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracye cyane kandi bafite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso habo, bari guseka barahagaze, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, biganjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, umudamu usa nkukuze wambaye umupira w'umweru afite ibyishimo nk'uko bigaragara mu maso he ari guseka ateruye akana gakiri gatoya.

Uyu ni umugabo usa nk'ukuze yambaye neza cyane aracyeye, agashati k'umuhondo n'umukara, inyuma ye hari inzu nziza ikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe bisa nkaho bari kuganira hano umugore n'umugabo bicaye ku ntebe z'ubururu, imbere yabo hari igitambaro cy'umuhondo, aho giteretseho amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracyeye urebye ku myambaro yabo ndetse bafite ibyishimo nkuko bigaragara ku maso habo, bari guseka biganjemo abagore n'abagabo.

Uyu ni umwana ukiri muto nkuko bigaragara, yambaye impuzankano y'umweru n'umukara afite ibyishimo byinshi, ku maso he ari guseka n'amenyo akagaragara, yicaye ku ntebe y'umuhondo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, barakeye cyane, higanjemo abagore n'abagabo basa nk'abakuze, iruhande gato hari agacupa k'amazi yo kunywa.

Uyu ni umukobwa usa nk'aho akiri mutoya yambaye agashati k'umutuku n'agapira k'ubururu afite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso he ari guseka amenyo y'umweru akagaragara.

Aba ni abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe biganjemo abagore bane n'umugabo umwe, bakikijwe n'insina n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe bisa nkaho bari kuganira bishimye cyane nkuko bigaragara ku maso habo, bari guseka bari munzu isize amabara y'umweru, bambaye mu buryo butandukanye ni umukara n'ubururu.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho bari kuganira barakeye cyane higanjemo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'umweru mu busitani bwiza butoshye bw'icyatsi.

Aba ni abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe, higanjemo abagore bane n'umugabo umwe basa nkaho bari kuganira, baracyeye cyane, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abana bari ahantu hamwe bose bisa nkaho bakiri bato nk'uko bigaragara ku maso yabo bafite ibyishimo, bari guseka. Hari abambaye impuzankano z'icyatsi.

Uyu ni umusore usa nk'aho akiri muto arakeyeye cyane kandi afite ibyishimo nk'uko bigaragara kumaso he, ari guseka amenyo akagaragara yambaye umupira w'umuhondo.

Uyu ni umusore usa nk'aho akiri muto afite ibyishimo byinshi nk'uko bigaragara mu maso he yasetse cyane amenyo y'umweru akagaragara hari akadodo ari kuyacishamo.

Uyu ni umusore usa nkaho akiri mutoya nkuko bigaragara afite ibyishimo mu maso ye ari guseka hari akadodo ari gucisha mu menyo ye y'umweru bishobora kuba bimuvura.

Uyu ni umukobwa usa nkaho akiri mutoya nkuko bigaragara arakeyeye cyane kandi afite ibyishimo byinshi ku maso he birabigaragaza, arimo araseka n'amenyo y'umweru akagaragara.

Uyu ni umugabo ubona usa nkukuze imisatsi ye n'imikara afite ibyishimo byinshi nkuko bigaragara ku maso he, ari guseka n'amenyo akagaragara hari akadodo ari gucishamo afite mu biganza bye.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracye cyane kandi bafite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso habo, bari guseka n'amenyo akagaragara, higanjemo abadamu babiri ndetse n'abana bakiri bato.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane mu nzu isize amabara y'umweru, hari abicaye bambaye impuzankano z'icyatsi bari gukoresha uburoso ku menyo yabo bayasukura.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe barakeye cyane, higanjemo umukobwa n'umuhungu, bose bambaye imyenda y'umweru, imisatsi yabo ni umukara kandi iramanuye.

Iyi ni inzu nziza isize amabara y'umweru, yuzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga, byifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo n'iby'ikoranabuhanga.

Uyu ni umusore usa nkaho akiri mutoya nkuko bigaragara afite agasatsi ke karasokoje n'ubwanwa bw'umukara, yambaye ikote ry'ubururu ibyishimo ni byose araseka n'amenyo y'umweru akagaragara.

Uyu ni umusore ubona usa nk'aho akiri muto yambaye amadarubindi n'agapira k'umweru afite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso he, ari guseka n'amenyo y'umweru akagaragara.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe, babiri muri bo bambaye impuzankano z'amatabuririya y'umweru biganjemo umugore n'umugabo ari kwita ku mwana ukiri muto w'agapfukamunwa k'umutuku.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe ubona bake kandi bafite ibyishimo barimo bakora imyitozo ngororamubiri biganjemo abakuze nk'abakecuru n'abasaza.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu ihema ry'umweru, higanjemo abagore n'abagabo yaba abakuze ndetse n'abakiri bato, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe biganjemo umukobwa usa nk'aho akiri muto, imisatsi ni imikara kandi iramanuye ari kwita ku mukecuru amukoresha imyitozo ngororamubiri.

ABa NI abantu babiri bari ahantu hamwe, higanjemo umusaza ufite ubwanwa bw'umweru, hari byo ari gukurura by'umuhondo arakeye cyane bisa nk'aho ari mu myitozo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe biganjemo abakuze b'abagore gusa bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'umukara bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri batandatu bari ahantu hamwe barishimye cyane nk'uko bigaragara ku maso yabo bari guseka, higanjemo abakuze, umugore n'umugabo ndetse n'abana bato agahungu n'agakobwa bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, baracyeye cyane nkuko bigaragara barishimye, ubarebye ku maso yabo bari guseka basoma igitabo, higanjemo umusore usa nkaho akiri muto n'umusaza ukuze.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe barimo bakora imyitozo ngororamubiri yo kwiruka, barishimye cyane nkuko bigaragara ku maso habo, bari guseka n'amenyo akagaragara, bose ni umugore n'umugabo.

Aba ni abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe, barakeye cyane kandi bafite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso habo bari guseka, higanjemo abagore ndetse n'abagabo n'umwana ukiri muto.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe bari kugendana bafatanye ku rutugu yiganjemo umusaza n'umugabo usa nk aho akiri mutoya wambaye agapira k'ubururu bazengurutswe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe baracyeye cyane nkuko bigaragara ku maso habo bafite ibyishimo bari guseka, umwe muri bo ni umukobwa ukiri mutoya ndetse undi ni umugore usa nk'ukuze.

Aba abantu babiri bari ahantu hamwe barakeye cyane kandi bafite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso habo bari guseka, biganjemo umukobwa usa nkaho akiri muto yambaye itaburiya y'umweru n'undi uwo mugabo w'umusaza wambaye ubururu.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, umwe muribo ni umukobwa ufite imisatsi y'imikara wambaye impuzankano z'ubururu ari kwita ku mukecuru uteruye ikirahure cy'amazi mu ntoki ze.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bagera kuri batandatu, mu nzu isize amabara y'umuhondo, higanjemo umusore ukiri muto n'abandi basa nk'abakuze, barimo baganira.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracye cyane kandi bafite ibyishimo nkuko bigaragara ku maso habo bose bari guseka, higanjemo umugore ukuze n'abandi basa nk'aho bakiri batoya.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe, babiri muri bo umukobwa n'umuhungu bari kwita ku musaza usa nk'ukuze cyane, imisatsi yabaye imyeru yambaye umupira w'umukara.

Aba ni abantu bagera kuri babiri, bari ahantu hamwe barakeye cyane, higanjemo umugabo wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa n'umukobwa usa nk'aho akiri muto, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe barimo bakina amakarita barakeye kandi barishimye ubarebye ku maso yabobo bose bari guseka mu nzu isize amabara y'umweru.

Aba ni abantu bagera kuri babiri bari ahantu hamwe higanjemo umugore usa nkaho akiri muto n'undi ukuze ufite imisatsiy'umweru, yambaye amadarubindi imbere yabo hateretse ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'inyanya n'ibindi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe baratandukanye, umwe nI umugore undi ni umugabo ubona usa nk'ukuze imisatsi ye yose yabaye umweru, bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Uyu ni umugore ubona ukuze cyane nk'uko bigaragara ku misatsi he ni imyeru, yambaye amadarubindi y'umutuku yashyize ikiganza ku munwa, hasi gato hari agakombe k'amazi ateruye.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze, ari muzu isize amabara y'umweru arakeye cyane, afite ikirahure cy'amazi n'imiti mu biganza bye bisa nkaho agiye kuyinywa.

Uyu ni umusaza ubona usa nk'ukuze cyane, imisatsi ndetse n'ubwanwa byose byabaye umweru, ari aho bogera ari kogeshwa intoki ku rundi ruhande.

Uyu ni umusaza usa nk'ukuze cyane, imisatsi ye yabaye imyeru, yambaye amadarubindi n'ishati y'icyatsi, ari kwandika mu ikayi n'ikaramu.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, umugabo usa nk'ukuze afite ubwanwa bw'umweru n'ikirahure mu ntoki kirimo amazi, hari ibyo ari guhabwa nk'imiti n'umukobwa ukiri mutoya.

Aba n'abantu babiri bari ahantu hamwe barakeye cyane bose basa nk'abakuze, n'umukecuru n'umusaza imbere yabo hari impapuro nyinshi bari kureba aho.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, umwe ntabasha kugaragara neza, afite imisatsi y'imikara, yambaye imyenda y'ubururu, arimo ahereza imiti umukecuru wicaye ateruye igikombe cy'amazi mu ntoki.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracyeye cyane, bicaye ku murongo ku ntebe z'imyeru yiganjemo abagore n'abagabo imbere y'abo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara barishimye cyane, hari abambaye impuzankano z'umweru higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe biganjemo abagore n'abagabo, abakobwa bakiri batoya ubona bakeye, bari kwita ku mukecuru uhari bamuvura.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe biganjemo umugore numugabo, bose bafite ibipapuro byicyatsi n'ubururu mu biganza byabo, inyuma yabo hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri bane bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo, barakeye cyane kandi bafite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso yabo bari guseka bateruye abana bato.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe. Barakeye cyane nk'uko bigaragara. Bicaye ku murongo. Harimo abambaye impuzankano z'umweru ndetse n'umukara. Higanjemo abakobwa basa nkaho bakiri bato.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane ubarebye neza ku maso habo bari guseka amenyo akagaragara, bateruye ibintu imbere bambaye impuzankano z'umweru ni abakobwa gusa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane mu nzu isa neza, hari abicaye ndetse n'abahagaze biganjemo abagore n'abagabo, ni ibintu bibereye ijisho ry'ubireba.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije isize amabara y'umweru impande zose, amabati n'umutuku yanyandikishijwemo n'amabara y'umuhondo amagambo avuga ibitaro bya Shyira.

Iyi ni inzu nziza y'ibitaro isize amabara agiye atandukanye, harimo amagambo yandikishije ubururu n'ibirahure bibonerana, imbere yayo hari ubusitani bwiza burimo indabo z'umuhondo n'iz'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabara y'umweru impande zose irakeye cyane, huzuyemo ibitanda byinshi biryamyeho abarwayi bakeneye kuvurwa.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, baracyeye cyane, higanjemo abagore, n'abagabo, urabona ko ari ibintu byiza cyane, bibereye ijisho, bari imbere y'inzu, yanditseho Rwamagana ibitaro.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze arishimye cyane nkuko bigaragara ku maso he ari guseka amenyo akagaragara, yambaye itaburiya y'umweru, ari mu nzu isize amabara y'umuhondo hari n'ibikoresho byifashishwa kwa muganga.

Iki ni icyumba k'ibitaro gisize amabara y'umweru, impande zose hari umugore uri kwita ku bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije isize amabara y'umweru, ibirahure by'ubururu, ikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe barishimye cyane nkuko bigaragara ku maso yabo, bari guseka bambaye impuzankano z'ubururu, udutambaro tw'umweru ku mitwe.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara y'umuhondo impande zose, ikikijwe n'ubusitani burimo indabo n'uduti dutoya datanga umuyaga.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije yifashishwa mu kuvura abarwayi, huzuyemo abantu benshi cyane batandukanye, abagore n'abagabo. Ikikijwe n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara agiye atandukanye harimo n'ay'ubururu, yanditseho Umwami Faisal ibitaro ikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni antu bagera kuri barindwi bari ahantu hamwe barimo bagenda, biganjemo abagabo n'abakobwa bambaye impuzankano z'umweru n'umukara, hari ibyo bafite mu biganza byabo.

Uyu ni umukobwa usa nkaho akiri mutoya, imisatsi ye iramanuye yambaye agapfukamunwa k'umukara itaburiya y'umweru, ari imbere ya mudasobwa cyangwa murandasi bisa nkaho ari kwa muganga.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabara agiye atandukanye yaba umweru ndetse n'icyatsi, huzuyemo ibitanda byinshi byifashishwa mu kuvura abarwayi kwa muganga.

Iyi ni inzu nini yo mu bitaro isize amabara y'umweru impande zose, ndetse no hejuru huzuyemo ibikoresho byinshi. Nk'ibitanda byifashishwa kwa muganga.

Iyi ni inzu y'ibitaro ni nini cyane kandi iracyeye isize amabara y'imyeru zirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi nk'ibitandaro.

Iyi ni inzu nini i isize amabara y'umweru isa nk'aho ari iy'ibitaro ibikwamo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura abantu igihe bagize ikibazo cy'uburwayi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane, ubarebye ku myambaro yabo bose bambaye udupfukamunwa higanjemo abagore n'abagabo, urababona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabara y'umweru impande zose, harimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi kwa muganga n'iby'ikoranabuhanga.

Iki ni icyumba cy'ibitaro gisize amabara y'umweru, impande zose huzuyemo ibikoresho byinshi byifashishwa mu gusuzuma abarwayi, harimo n'iby'ikoranabuhanga.

Aba ni abantu bagera kuri bane bari ahantu hamwe hari abambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'icyatsi, hari n'undi uryamye ku gitanda, hejuru ye hari ibikoresho byifashishwa mu kuvura abantu by'ikoranabuhanga.

Iyi ni inzu nziza y'ibitaro isize amabara y'umweru impande zose, ndetse no hejuru huzuyemo ibikoresho byinshi bitandukanye n'iby'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Iyi ni inzu nini kandi nziza y'ibitaro isize amabara y'mweru hasi no hejuru, huzuyemo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye n'iby'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Iyi ni inzu nziza y'ibitaro ikeye ku mabara nkuko bigaragara isize umweru hasi no hejuru, huzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ibitanda byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etage igerekeranyije isize amabara y'umutuku ni iy'ibitaro ikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Iyi ni inzu nziza isize amabara y'umweru impande zose ni iy'ibitaro huzuyemo ibikoresho byinshi bitandukanye nk'intebe n'imeza imeza iteretseho mudasobwabo.

Iyi ni inzu y'ibitaro iracyeye cyane isize amabara y'umweru, hasi no hejuru huzuyemo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu nziza isize amabara y'umweru impande zose, higanjemo abakobwa n'abahungu basa nkaho bakiri abasore, bambaye impuzankano zimwe z'amataburiya wagira ngo ni abaganga.

Iyi ni inzu nziza y'ibitaro isize amabara y'umweru impande zose hejuru no hasi huzuyemo ibikoresho byinshi yaba n'iby'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Iyi ni inzu nini y'ibitaro isize amabara y'umweru ku mpande no hejuru, ndetse no hasi huzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye n'iby'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Iyi ni inzu nini kandi nziza igizwe n'amabara agiye atandukanye, yaba umweru wanditsemo amagambo y'umukara. Ibitaro bya gisenyi bikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe, harimo abambaye impuzankano z'umweru biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bari kwitabwaho bajombwa imiti.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etage igerekeranyije, isize amabara y'umuhondo ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza bw'icyatsi kibisi butoshye butanga akayaga n'amahumbezi.

Iyi n'inzu nziza isize amabara y'umweru, inzugi zikaba umukara ndetse n'amabati y'ubururu yanditseho amagambo agira ati ikigo nderabuzima cyashagasha.

Iki ni icyumba cy'ibitaro, gisize amabara y'umweru impande zose, amarido ni icyatsi, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye n'iby'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Iki ni icyumba cy'ibitaro gisizwe amabara y'umweru impande zose hejuru no hasi huzuyemo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kwa muganga mu kuvura abarwayi nk'ibitanda n'ibindi.

Iyi n'inzu nini kandi nziza isize amabara y'umweru hasi no hejuru huzuyemo ibikoresho byinshi n'iby'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Aba ni abantu bagera muri batandatu bari ahantu hamwe baracyeye cyane nk'uko bigaragara bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'udupfukamunwa biganjemo abakobwa basa nk'aho bakiri bato.

Iyi ni inzu nini y'ibitaro isize amabara y'umweru impande zose, huzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ibitanda ndetse n'ibindi byifashishwa mu kuvura abarwayi by'ikoranabuhanga.

Iyi ni inzu nziza cyane nkuko bigaragara isize amabara agiye atandukanye nk'umweru n'umukara imbere yayo hahagaze imodoka n'abantu bakeya bahari.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etage igeranyije isize amabara agiye atandukanye, nk'umuhondo n'icyatsisi hasi ho gato hagaze imodoka nyinshi ndetse n'abantu batandukanye.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etage igerekeranije isize amabara y'umweru impande zose, ikikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi kubahagenda bose.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara y'umweru, amabati ni ubururu. Hagati handitsemo amagambo agira ati ikigo nderabuzima cya Kanyinya.

Iyi ni inzu nziza y'ibitaro isize amabara y'umweru, amabati ni ubururu ikikijwe n'ubusitani bwiza bw'icyatsi kibisi butoshye butanga akayaga n'amahumbezi ku bantu bose bari aho.

Uyu ni umugabo usa nkaho akiri mutoya yambaye impuzankano z'umweru z'amataburiya, imbere ye hari igitanda n'ikindi gikoresho kinini cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kuvura abarwayi kwa muganga.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe higanjemo abasore babiri n'umwana ukiri muto uri kwitabwaho n'uwambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabara agiye atandukanye nk'umuhondo ndetse n'umweru, ihuriyemo ibikoresho byinshi byifashishwa kwa muganga, harimo n'iby'ikoranabuhanga.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabara y'umweru, impande zose harimo ibikoresho byinshi ndetse n'iby'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi baje kwa muganga.

Iyi ni inzu y'ibitaro, isize amabara y'umweru impande zose, ndetse no hejuru, huzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe baracyeye cyane, biganjemo abakobwa gusa hari abambaye impuzankano z'ubururu, aho bari hateretse za murandasi z'ikoranabuhanga.

Iki ni icyumba cy'ibitaro gisize amabara y'umweru impande zose huzuyemo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye n'iby'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Aba ni abantu bagera kuri bane bari ahantu hamwe, hari ibyo basuzuma nk'amazi ari gushyirwa mu gacupa, biganjemo abakobwa babiri ndetse n'abasore nuko bambaye impuzankano z'umweru.

Iki ni icyumba cy'ibitaro gisize amabara y'umweru ku mpande no hejuru huzuyemo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye nk'imeza n'intebe z'umutuku n'igitanda kiryamishwaho umurwayi.

Iyi ni inzu nini y'ibitaro, amabati yayo asa ubururu, ikikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi, ku bantu bose bari aho ngaho.

Iyi ni inzu y'ibitaro yuzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye n'iby'ikoranabuhanga byose byifashishwa mu kuvura abarwayi, isize amabara y'umweru.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije isize amabara y'umweru impande zose ndetse no hejuru hirya gato hari ubusitani bwiza bw'icyatsi butoshye.

Iyi ni inzu y'ibitaro ni nziza kandi isize amabara y'umweru hejuru no hasi yuzuyemo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi.

Iyi ni inzu y'ibitaro irimo ibitanda byinshi isize amabara y'umweru amarido n'ubururu, ndetse yiganjemo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe, barakeye cyane nk'uko bigaragara ku maso habo. Bari guseka bambaye impuzankano z'ubururu, agatambaro k'umweru ku mutwe, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga. Higanjemo abakobwa gusa.

Uyu ni umukobwa usa nk'aho akiri mutoya. Arakeye cyane, kandi afite ibyishimo ku maso nk'uko bigaragara, ari guseka, yambaye agasengeri k'umweru, ikabutura y'umukara, iruhande rwe hari ibyo kurya bitandukanye, nk'imineke, n'ibindi.

Uyu ni umukobwa usa nkaho akiri muto ari mu nzu isize amabara y'umweru arimo akora imyitozo ngororamubiri aryamye hasi yambaye agasengengeri ndetse na kora y'umukara.

Uyu ni umugabo uri ahantu hamwe hasi arimo akora imyitozo ngororamubiri. Afite ubwanwa bw'umukara n'imisatsi miremire. Yambaye ikabutura n'isengeri.

Uyu ni umukobwa usa nk'aho akiri mutoya arimo akora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi yambaye agasengeri k'umukara ndetse na kora n'inkweto z'umweru.

Uyu ni umusore usa nk'aho akiri muto urebye ku mubiri we yicaye ku kumuhanda yambaye agasengeri k'umukara, isaha y'icyatsi afite agacupa mu biganza bye karimo amazi agiye kunywa.

uyu ni umukobwa ubona usa nkaho akiri muto urebye ku mubiri we yambaye agasengeri k'umukara na kora irimo umweru arimo akora imyitozo ngororamubiri, imberelle ateretse mudasobwa n'agacupa k'amazi yo kunywa

Uyu ni umukobwa usa nkaho akiri muto, yicaye hejuru ku gitanda arimo akora imyitozo ngororamubiri, arakeye cyane imisatsi ye iramanuye, yambaye agasengeri k'umukara na kora.

Uyu ni umukobwa usa nkaho akiri muto, aracyeye cyane nkuko bigaragara ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'umweru, kora y'ubururu, iruhande rwe hari icupa ry'amazi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe biganjemo urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, bari mu nzu isize amabara y'umuhondo, bambaye impuzankano zisa umweru ndetse n'umutuku.

Uyu ni umusore usa nk'aho akiri mutoya arakeye cyane, afite umubiri ubyibushye, yambaye agasengeri k'icyatsi, ari kwimenaho amazi, ni ibintu byiza ku mubiri w'umuntu.

Iyi ni inyubako y'ibitaro isize amabara y'umweru, ahantu hose huzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ibitanda ndetse n'ibindi by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi kwa muganga.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, amarido y'ubururu, higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo ari icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kuvura abarwayi.

Iki n'igikoresho gikomeye kandi cyiza gisize amabara y'umweru impande cyifashishwa kwa muganga cy'ikoranabuhanga gikora igihe barimo bavura abarwayi.

Uyu ni umusore usa nkaho akiri mutoya, yicaye hasi afite agacupa k'amazi ku munwa. Ari kuyanywa yambaye agapira k'ubururu, ipantaro y'umukara abona ko ari ibintu byiza cyane.

Aya ni amazi meza yo kunywa, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ari mu gacupa gakeya cyane gafite umufuniko w'ubururu, ateruwe n'ikiganza, ni ibintu bigaragara neza.

Uyu ni umukobwa usa nk'aho akiri muto, yicaye hasi arimo akora imyitozo ngororamubiriri, yambaye agasengengeri hamwe na kora, afite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso he ari guseka.

Uyu ni umukobwa usa nk'aho akiri muto imisatsi ye iramanuye, arakeye cyane, arimo akora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi, yambaye agasengeri k'umukara ndetse na kora, imbere ye hateretse agacupa k'amazi yo kunywa.

Uyu ni umusore usa nkaho akiri mutoya. Yicaye ahantu hamwe ateruye mu biganza bye agacupa k'amazi, yagashyize ku munwa ari kuyanywa. Yambaye agasengeri k'umukara n'agakomo k'icyatsi.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabaray'umweru ndetse no hasi ni ubururu higanjemo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Uyu ni umukobwa cyangwa se umugore usa nk'aho akiri muto ,aracyeye cyane. Ari mu nzu isize amabara y'umweru, yicaye hasi arimo akora imyitozo ngororamubiri.

Ibi ni ibimera bigiye bitandukanye yaba ku mabara nk'ibyumweru ndetse n'icyatsi byifashishwa byose mu kuvura abarwayi mu buryo bwa gakondo.

Aha ni ahantu hari ibimera byiza bigiye bitandukanye, nk'ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi, ndetse n'ibindi by'umuhondo n'umutuku bikorwamo imiti ivura mu buryo bwa gakondo.

Uyu ni umusore usa nkaho akiri mutoya, hari ibyo ari gutunganya biri mu biganza bye, agasatsi ke karasokoje ni umukara, yambaye itaburiya nziza y'umweru bisa nkaho ari umuganga.

Iri ni ishyamba rirerire ryuzuyemo ibiti byinshi kandi binini bitanga umuyaga n'amahumbezi, harimo kandi n'ibimera byifashishwa mu kuvura abarwayi mu buryo bwa gakondo.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze, yambaye imyeru gusa, ari gusoroma ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bwa gakondo.

Iri ni ishyamba rinini kandi rirerire ririmo ibiti byiza bitoshye by'icyatsi kibisi bitanga umuyaga n'amahumbezi kurigezemo wese kandi heramo ibimera byifashishwa mu kuvura mu buryo bwa gakondo.